Abantu benshi bateraniye ku murima w'ibigori, bamwe bafashe mu ntoki udufuka abandi ibindi bikoresho basa nkaho baje kubagara cyangwa ubundi buryo bwo kwita ku bigori kugira ngo bizakure neza, hirya y'umurima hari ishyamba ndetse n'agasozi kadahanamye cyane.

Abantu benshi barimo gucukura imyobo bakoresheje amasuka mu murima, hari n'undi muntu ufite inkoni uri kugenda abagendagendamo, ameze nk'uwabahaye ikiraka, uri kureba niba akazi barimo bagakora neza.

Abantu batatu bari kugendagenda mu murima uhinzemo amateke ndetse n'ibindi biti bitandukanye, bameze nk'abarimo kuwitaho bawufubira cyangwa bakuramo ibyonnyi kugira ngo ibiti bizakure neza bibazanire umusaruro.

Abantu bane bari mu murima w'ibigori, babiri bafashe mu ntoki amasuka aho barimo kubagara ibigori, undi umwe afashe mu ntoki agakoresho kameze nk'isahani karimo ifumbire bari kugenda bashyiramo, barimo kwita ku gihingwa cy'ikigori, kugira ngo kizere imbuto nyinshi bibabyarire umusaruro uhagije.

Akabati gateretse ku makaro mu nzu karimo amacupa y'ubwoko butandukanye arimo imiti ikoreshwa mu kwita ku nyamaswa cyangwa ku bimera, kugira ngo bitange umusaruro uhagije.

Inzu irimo amacupa y'ubwoko butandukanye ku gikuta hashushanyijeho inka, bigaragaza ko bacuruza cyangwa ari aho batangira, imiti ifasha amatungo gukura neza cyangwa ituma amatungo atanga umusaruro uhagije.

Icyapa kiri iruhande rw'umuhanda nyabagendwa, cyerekana inzira ijya ku Kigo gishinzwe kwinjiza mu gihugu no gukwirakwiza inyongeramusaruro; hariho nomero za telefone wabasangaho, ndetse cyerekana ko ari i Huye.

Inzu ishushanyije imbuto zitandukanye n'inka ndetse ku gikuta handitseho imiti y'amatungo, imbuto ndetse n'inyongeramusaruro, bigaragaza ko ari inyubako abantu bagana kugira ngo babahe imiti y'amatungo n'imbuto ndetse babahe n'amafumbire.

Abantu bane bari iruhande rw'ikirundo cy'ifumbire. Inyuma yabo hari ikindi kirundo cy'ifumbire amazu ndetse n'ibindi byatsi, umwe arunamye ari kuyoza igitiyo ifumbire, undi afashe mu ntoki umufuka awufunguye, bameze nkaho bagiye kumushyiriramo ifumbire, inyuma yabo hari undi muntu wunamye iruhande rw'umufuka, usa nk'uwuzuye ifumbire, bameze nk'abagiye kuyitunda ngo bayijyane ku mu...

Isahani nini y'icyuma iriho imbuto z'umweru ntoya, zisa zigerekeranye. Biteretse hasi ahantu hasa n'umukara. Imbuto zikoreshwa mu gutera, zikazameramo ibiti binini.

Ishyamba ririmo ibiti birebire bifite amababi y'icyatsi ndetse amababi amwe yaratukuye ajya gusa nk'umuhondo, mu ishyamba hasi hagiye hahungukira amababi y'ibiti ndetse n'ibindi biti byagiye bigwa hasi.

Umuntu uhagaze mu murima, mugari uhinzemo amashu. Ameze mkuri kuyitaho, cyangwa aje kureba uko ameze. Ndetse hirya hahinze n'ibindi, bihingwa bitandukanye. Ni ahantu harambuye, hari umurima bigaragara ko aya mashuri yitaweho, kugira ngo azakure atange umusaruro.

Umurima urimo ibigori bishishe byakuze, bifite amababi meza hari kuva izuba ndetse nta n'ibyatsi byinshi byameze mu murima bigaragaza ko ari umurima bitayeho imyaka igakura neza.

Agahanda kari hagati mu murima uteyemo imyaka y'ibyatsi y'ubwoko bumwe. Hirya hari ibiti ndetse n'indi mirima irimo ibyatsi bitandukanye ndetse n'inzu ntoya zituyemo abantu. Bisa nk'aho ari mu gishanga aho bahinga imyaka kugira ngo babone uko bayifumbira, ikure neza.

Ingemwe z'ibiti zakuriye mu mashashi, ziteretse mu ishyamba hagati y'ibiti, bisa nkaho zitegereje nkaho abaza kuzitwara kugira ngo bagende bazihinge mu murima. Inyuma y'ibiti hari amazu ndetse n'ikibuga, bisa nkaho na cyo cyateguriwe kubikwamo ibiti runaka.

Amashuri arimo kwera mu murima mugari, ateye mu buryo bw'ingarandi ndetse hari n'ibindi byatsi byagiye bimera mu murima ndetse hirya hari n'ibindi bimera.

Umurima urimo inanasi ziteye kijyambere, ku murongo ugororotse, izo nanasi ntabwo zari zera, ni umurima utarimo ibyatsi bigaragaza ko bawitaho kugira ngo uzabahe umusaruro uhagije.

Umurima mugari uhinzemo imboga nyarwatsi ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye. Uracucitse, bimeze nk'aho bawitaho. Bawuteganyirije ibi bihingwa kugira ngo bizakure neza, bibabyarire umusaruro.

Umuntu w'igitsina gore ufashe mu ntoki ingemwe z'ibihingwa bahinze mu mashashi, afite mu ntoki nk'isuka ari mu murima mugari, ameze nk'ugiye gutera izo mbuto kugira ngo zizavemo ibiti binini, hirya hari ibindi biti ndetse n'amazu, bigaragaza ko baje guhinga izo ngemwe, kugira ngo zizavemo ibiti binini.

Ikiganza gifashe mu ntoki utubuto dutandukanye; kirambuye hejuru y'ahantu hari amazi. Hagati mu mazi hari uruhombo, hirya hari inzira y'umucanga ndetse munsi y'akaboko hari urubobi.

Icupa rirerire ripfundikiye, ririmo umuti usa n'icyatsi. uteretse iruhande rw'igikarito nk'uko byanditse ku gikarito. Havamo uwo muti ukoreshwa mu kwita ku nka, nkuko byanditse ku icupa, uzifasha kubyara neza.

Icupa riteretse ku meza ririmo umuti. Iruhande rwaryo hari igikarito cyanditseho izina ry'uwo muti. Oxeline magana atatu, hashushanyijeho n'inka. Bigaragaza ko harimo umuti ufasha inka nk'uko byanditsweho, kugira ngo zigire ubuzima bwiza, ndetse zikize n'indwara z'uruhu n'indwara zitandukanye zibasha guhungabanya ubuzima bwiza bw'inka.

Icupa ririmo umuti wifashishwa mu gukura neza, no gukomeza ingingo kw'inyamaswa, biri kumwe n'urupapuro rumeze nk'ingengabihe rwanditseho, akamaro ndetse n'uko bakoresha uwo muti.

Ibiganza bibiri bifashe ku ngurube, ngo itagenda, umuntu wa kabiri ufatishijeho ikiganza bisa barimo kuyibwaguza, ikibuti cyayo kugira ngo ibyare abantu.

Ikiganza giteretse ku meza akoze mu giti gifashe mu ntoki icupa ripfundikiye ririmo umuti ufunguye ungana na mili ritiro magana abiri mirongo ine ukoreshwa mu kwita ku nyamaswa, handitseho igihe wakorewe, nimero zawo ndetse n'igihe uzarangirira. iruhande rwawo hari ikayi igezweho bandikaho bisa nk'aho uwo munyeshuri ari kwiga kuri uwo muti.

Ikiganza kirimo gutera urushinge ku ngurube ihagaze mu kibuti bayubakiye mu kibuti cyubakishije inzu iteye karabasasu gifite amadirishya arimo senyengi.

Umurima utagaragaramo ibihingwa, umeze nk'aho bawuteye vuba, ibihingwa bitari byamera cyangwa baherutse gusaruramo. Hirya yawo hari ibindi bimera, ibihingwa ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye, ndetse n'abantu bari ku mpera, bameze nk'aho ari ba nyirumurima.

Abantu batatu bari mu murima w'ingemwe z'imbuto zatangiye gukura, umwe afite ikayimu mu ntoki ari kuzikoraho, undi afite ingorufani, bameze nkaho baje kureba aho zigeze ngo baziteho, maze bazazijyane ku isoko.

Umuntu wunamye mu murima uteyemo insina nyinshi, ameze nk'urimo gukuramo ibyatsi kugira ngo insina zizakure neza ndetse akuramo n'ibyonnyi, mu nsina harimo n'ibindi biti by'ubwoko butandukanye, ni umurima udashamaje kuko biragaragara ko nta fumbire ihagije irimo cyangwa amazi yabobeje ubutaka.

Umurima uteyemo ibiti bitandukanye ipapayi, insina ndetse n'ibindi byatsi, harimo umugabo urimo gucukura, asa nk'uri gutera igiti cy'isombe cyangwa imyumbati, iruhande rwe hahagaze undi muntu wambaye kamambiri,

Ababyeyi babiri bakenyeye ibitenge bunamye mu murima, bari kumwe n'undi muntu w'igitsina gabo usutaraye. Bose barimo kwita ku bihingwa bateye ndetse hirya hari ibindi bikoresho ibiti bakoresha barimo kwita kuri bino bihingwa, kugira ngo bizabahe umusaruro uhagije.

Insina ziteye ku mpande z'umurima wagutse, urimo ibiti by'ubwoko butandukanye. Iruhande rw'insina hari inzu ntoya. Hirya haragaragara ibindi biti bitandukanye bigaragaza ko ari ahantu hatuye abantu ndetse ko cyane cyane bahahinga imyaka y'ubwoko butandukanye.

Umurima w'ibigori byatangiye kuraba, iruhande rw'ikibaya kirambuye, hirya hakaba agasozi kadahanamye. Hari ikirere cy'umweru, ibigori byakuze neza bigaragaza ko biteye ahantu habasha kugera amazi ndetse n'ifumbire.

Imifuka myinshi irundanyije y'ubwoko butandukanye, n'amajerekani, amasafuriya, ndetse n'ibindi bikarito birimo ibintu, bisa nk'ibipanze mu' iduka cyangwa ahandi hantu babika ibikoresho kugirango bazabigurishe.

Umurima urimo ibiti by'ubwoko butandukanye, higanjemo ibiti by'imyumbati, inyuma yabyo hari ibindi biti ndetse n'ibyatsi bitandukanye bigaragaza ko ari umurima bahingamo imyumbati ariko hirya yawo, ukikijwe n'ibindi biti by'ubwoko butandukanye.

Amasaka yumye yeze arambitse hasi iruhande rw'igikuta cy'inzu isize irangi ry'umuhondo, basa nk'aho bayanitse kugira ngo yume neza bazayajyane ku isoko.

Ibitebo byinshi bigerekeranyije byuzuye inyanya zatukuye, harimo n'abantu benshi bimeze nk'ishyirahamwe cyangwa ahantu abantu bahurira bazanye imbuto z'inyanya, kugira ngo bazigure cyangwa bashake abaguzi.

Abantu benshi bari mu murima mugari uhinzemo igihingwa, hagati mu murima hagiye hanyuramo amazi bigaragaza ko ari mu gishanga, hirya y'uwo murima hari imisozi, mbese hari n'ikirere cyijimye, nkaho imvura igiye kugwa cyangwa imaze kugwa, bameze nk'abari kwita kuri iyo mirima, cyangwa barimo gusarura imbuto zabo.

Igikombe giteyemo ururabo runini rwashishe ndetse n'iruhande rwacyo hari izindi ndabo, giteretse iruhande rw'inzu ndetse hirya, hirya y'inzu hari insina ndetse n'ibindi byatsi bihateye.

Ishyamba ry'inzitane, ririmo ibiti birebire byinshi, ndetse n'ibindi biti bigufiya, n'ibyatsi by'ubwoko butandukanye, ibyo biti bifite amashami afite ibibabi by'icyatsi.

Umurima urimo ibiti birebire bifite amababi agororotse, mu murima hari ibiti byagiye bivunika bigakora hasi ndetse n'amababi, ibi biti bikoreshwa mu kurinda isuri ndetse n'amababi yabyo akoreshwa mu gutunganya imiti ivura indwara zitandukanye.

Umurima urimo ibiti by'ubwoko butandukanye insina n'imboga. Harimo n'ikirundo cy'ibisigazwa by'ibyatsi ndetse n'ahantu basakaje ibiti n'amakoma yumye.

Umurima uri iruhande rw'umuhanda, urimo ibiti birebire ndetse n'ibihingwa by'ubwoko butandukanye, inyuma y'ibiti hari inzu isakaje amategura bigaragaza ko hatuye abantu.

Igihuru kirimo ibiti, bimwe bifite amahwa. Ruguru hari ibiti birebire bigaragara nkaho ari ishyamba ry'inzitane. Hari ikirere kirimo ibihu.

Umurima urimo ibiti by'ubwoko butandukanye, ibiti birebire, ibiringaniye ndetse n'ibigufiya, ibi biti bifite ibibabi by'icyatsi bikoreshwa mu gutuganya imiti y'ubwoko butandukanye.

Umurima urimo igiti cy'igikakarubamba cyakuze gifite amashami menshi, muri uwo murima harimo ibyatsi, insina n'ibindi biti by'ubwoko butandukanye. Iruhande rw'umurima hari indi nzu ikikijwe n'urugo rw'ibiti.

Igiti cyakuze k'ipapayi kiri mu murima uteyemo imboga ndetse n'ibindi biti bitandukanye, mu murima utaramezemo ibyatsi byinshi, bigaragaza ko ari umurima bitaho, iki giti kera imbuto bita amapapayi zikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye no gutegura ibyo kurya.

Amadegede n'ibijumba bitandtse ku dutanda, mu isoko ryiganjemo ibibiribwa. Hari n'abacuruzi bicaye n'abaguzi barimo kugendagenda, hameze nko mu isoko rusange abantu baza guhahamo ibyo kurya.

Abantu babiri bari kuganirira mu isambu, irimo ibiti by'ibinyomoro, ndetse n'ibinyomoro byarakuze, ibindi byareze biratukura. Hasi hari ibibabi byagiye bitakara, ndetse ibiti by'ibinyomoro bimwe bagiye babishyigikiza ibiti. Kugira ngo bitazagwa hasi.

Imbuto za karoti zeze zirambitse ku ishashi batwaramo ibikoresho, ziri ahantu hameze nko mu rugo, barangije kuzigura bategereje kuzaziteka, cyangwa hari umuntu wicaye ahantu ari kuzereka abaguzi, kugira ngo bazaze bazitware.

Umugabo n'umwana bahagaze mu murima mugari uhinzemo inyanya, bafashe mu ntoki imbuto z'inyanya zitukuye ndetse muri uwo murima hahinzemo izindi mbuto zitandukanye ndetse harimo n'ibiti bihagaze bishingiriye inyanya kugira ngo zizakure neza.

Ibibabi by'ibiti bigufi biteye mu murima. Mu muririma hanyanyagiye ibiti byagiye bivunika ndetse n'andi mababi y'ibiti. Aya mababi akoreshwa, mu gutunganya imiti gakondo, ikoreshwa mu buvuzi.

Umuntu ufashe mu ntoki ikayi, ahagaze hagati y'ingemwe z'ibiti arimo kuzirebamo, inyuma ye hari abandi bantu bahahagaze bareba muri ibyo biti, izo ngemwe zatangiye gukura ziri imbere y'inzu iteye irangi isakaye, hirya hari indi mirima n'amazu bigaragaza ko hatuye abandi bantu.

Ingemwe nyinshi ziri mu murima, hari abantu benshi barimo kuzitunganya, ndetse bawubakiye n'ibiti baranahatwikira, hari n'abandi bari kuza bakaziterura n'abari kunyuraraho, bigaragaza ko ni ahantu batunganyiriza ingemwe z'ibiti abantu baza bagatwara, bakaba banazigura bakabishyura kugira ngo bagende bazitere.

Umwana uri gusuka imiteja ivuye mu gapaniye mu gakoresho kavamo ibinyobwa, ahagaze mu murima w'ibishyimbo ari kumwe n'undi muvandimwe we w'umwana ndetse n'ababyeyi be babiri barimo gusarura imiteja.

Umurima umezemo ibyatsi bitandukanye ndetse n'ibiti birebire. Ni umurima umeze nkaho utitabwaho kuko ibihingwa birimo ntabwo byakuze ngo bishishe neza.

Umurima w'imyumbati harimo ibiti bitangiye gukura. Mu umurima biragaragara ko ari ku gasi nta fumbire cyangwa nta n'amazi ahagije, izuba ririmo rirava. hirya y'umurima hari ibindi biti by'ubwoko butandukanye birinda isuri kugira ngo amazi adatwara imyumbati.

Umurima mugari uteyemo pavuro, hirya hari ibindi biti bitandukanye ndetse n'ibyatsi, ni umurima usasiye neza, bigaragaza ko izi pavuro bazitaho kugira ngo zizakure zibahe umusaruro uhagije.

Abantu babiri bunamye barimo kwita ku karima k'igikoni kugirango imboga ziteyemo n'ibitunguru ndetse n'indi myaka bizakure neza, inyuma yaho hari n'indi mifuka iteyemo imyaka, bari mu gipangu ndetse inyuma y'igipangu hari andi mazu n'ibiti bigaragaza ko hatuye abandi bantu.

Indabo zakuze ziri iruhande rw'umurima uteyemo insina, ndetse inyuma y'indabo hagaragara urusenge rw'inzu isa naho hatuyemo abantu. Indabo ziteye ku muhanda zigaragaza ko inzu na yo yubatse ku muhanda.

Abantu bafite ibikoresho bari kuvomerera imyaka iteye mu kibaya. hari iyakuze ndetse n'iyo barimo gutera. Hirya hari ibiti ndetse n'inzira. Ni abantu bihurije hamwe baza mu buryo bw'ishyirahamwe bagatera imyaka.

Umuntu wambaye isengeri y'umweru, uri kunyura mu mazi, ateruye amajerekani abiri arimo amazi, inyuma ye hari umwana washyize hasi amajerekani y'icyatsi abiri, ameze nk'uri kuvoma amazi ari muri uwo mugezi bose bakandagiyemo, hirya yabo hari ibiribwa biteye mu murima, ndetse n'ibiti n'amazu, bigaragaza ko ari aho baje kuvoma amazi yo gukoresha.

Umuntu urimo kuvomerera mu umurima w'ibigori byakuze. Hirya y'umurima hari ibiti, ndetse umurima uteye iruhande rw'umuhanda.

Umuntu w'igitsina gabo uhagaze mu muceri arimo kuwuvomera akoresheje igihombo, hirya ye hari undi muntu uri kuwunyuramo ndetse iruhande rw'umurima hari ibiti n'ibindi byatsi by'ubwoko butandukanye.

Umurima wagutse, urimo ibigori ndetse n'indi myaka itandukanye. Hateyemo n'ibindi bikoresho bimeze nk'ibirimo kuhira amazi muri uwo murima, kugira ngo imyaka ikure neza.

Umuntu uhagaze mu murima iruhande rw'amazi atemba mu gishanga, umurima mugari uhinzemo imbuto z'icyatsi ndetse hamezemo n'ibindi byatsi bitandukanye.

Umurima mugari uteyemo urubingo ku murongo, urubingo rwatangiye gukura, hirya yarwo hari undi murima uteyemo ibiti birebire ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye.

Umurima mugari uteyemo imbuto, zimwe nibwo ziri kumera, izindi zarakuze. Hirya y'umurima hari ibiti ndetse n'ikibaya gihinzemo ibihingwa.

Ikibaya kirimo ibihingwa by'ubwoko butandukanye. ruguru hari inzu bigaragaza ko hatuye n'abantu, ndetse hari n'ibindi biti by'ubwoko butandukanye. Hirya yacyo, hari n'utundi dusozi tugiye duteyeho ibihingwa bitandukanye nk'insina n'ibiti.

Umurima mugari ucucitse, harimo ibyatsi, ibiti bigufi, ibihuru, ndetse n'ibiti birebire, hari ikirere kiza gisa n'umweru.

Ibiti biteye mu murima wagutse ndetse harimo n'ibyatsi biteye ku materasi y'indinganire, aya materasi afasha mu kurinda isuri kugira ngo amazi adatembana imyaka cyangwa ingo z'abantu.

Umurima urimo amatarasi y'indinganire, ndetse uteyemo n'ibiti by'ubwoko butandukanye, ibi birinda isuri, kugira ngo amazi adatwara ubutaka, n'imyaka izabashe kwera neza.

Akayira kari hagati y'imitiba igerekeranye ikoze igice cy'uruziga, muri icyo gice cy'uruziga harimo akazu, ndetse ku mpera z'akayira hari undi muntu asa nk'aho aba yaje kureba iyo mitiba cyangwa arimo kuyitaho kugira ngo izabahe umusaruro uhagije.

Ingurube iryamye mu kibuti cyayo ndetse iri kumwe n'izindi zimeze nk'ibyana byayo yabwaguye. Ziryamye nabi nkaho zananiwe cyangwa zitariye, ndetse zifite n'amaherena ku matwi yazo.

Umuntu ufashe ku kiziriko cy'ihene, arimo kureba imbere nk'aho hari umuntu uri kumufotora, ahagaze mu gikari iruhande rw'inzu, ndetse imbere hari izindi hene ebyiri ukuyemo iyi ya gatatu afasheho ku kiziriko kiziritse ku kibuti cyubakishije ibiti.

Inkoko zirimo gutora iruhande rw'igikuta cy'inzu. Ni igikuta gisize ingwa y'umweru. Iri imbere y'umuryango ufunguye ukoze mu biti. Ni ahantu hameze nko mu gikari cyangwa hanze y'inzu.

Ihene ziri hanze y'ibiraro birimo amatungo atandukanye, zirimo kurisha mbese ziziritse no ku biti, bisa nkaho ziri ahantu bazigeneye bazibika kugira ngo batazaziba ndetse bakazizanira ibyo kurya kugira ngo zitange umusaruro.

Ingurube ebyiri zunamye mu kibuti zirimo kurisha. Ni ikibuti kidasukuye, kirimo ibyatsi byaboze ndetse gifite n'igikuta gisize ingwa z'umweru.

Inkoko nyinshi ziri mu nzu bazororeramo, ni inzu yubakisha amatafari ya rukarakara, hasi mu nzu hari ifumbire zagiye ziyituma ndetse hari n'ibikoresho bakoresha barimo kuzitaho.

Umuntu uhagaze mu cyumba baroreramo inkoko nyinshi cyane, harimo n'ibindi bikoresho ndetse n'icyo afashe mu ntoki, yambaye itaburiya y'umweru ndetse n'inkweto zabugenewe, ameze nk'uri kuzitaho kugira ngo, inkoko zizamuhe umusaruro uhagije.

Ibiti birebire ndetse n'ibihingwa bigufi biri mu murima uri iruhande rw'umuhanda, byose bifite amashami asa n'ibara ry'icyatsi.

Ibigori byumye bimanitse ku biti hanze mu busitani. Amababi amwe yatakaye hasi mu byatsi. Muburyo bwo kubihunika kugirango bizakoreshwe mu gihe kizaza, bazabitere cyangwa bazanabiteke babirye.

Umurima mugari uhinzemo imboga zifite ibibabi by'icyatsi, ndetse harimo n'ibindi biti byeze, inyuma yaho hari insina ndetse n'iyindi nzu, bigaragaza ko ari umurima wegereye inzu bahingamo imboga, kugira ngo bazazijyane ku isoko, cyangwa bazitunganye zizababyarire umusaruro mwiza.

Ingemwe z'ikawa ziteye mu mashashi, ziteretse munsi y'ahantu basakaye, bazitunganyiriza. Zatangiye gukura, ni ahantu, hirya yaho hateye ibindi biti, hari n'ibikuta, bigaragaza ko hari abantu bahatunganyiriza ingemwe kugira ngo abantu nibashaka bazaze bazigure cyangwa na bo ubwabo bazazijyane ku isoko.

Ibigori byerereye mu murima mugari uri iruhande rw'ishyamba ry'inzitane. Hariho ibigori byeze ndetse byanumye bashobora kujyana ku isoko.

Umurima uteyemo inyanya, usashije ibibabi by'ibigori, hirya hari akayira kanyuramo abantu, ndetse n'ishyamba, ririmo ibiti birebire bitandukanye.

Umuntu ufashe ingurube undi afite igikoresho ameze nk'aho hari icyo ari gukata ku ngurube, bari imbere y'inzu ifunguye, ni inzu yo mu cyaro yashaje, iruhande rw'umuryango hari ibase, basa nk'aho bari kwita ku ngurube kugira ngo izabahe umusaruro uhagije.

Umuntu ufashe umunwa n'ugutwi kw'inka. Undi arimo gukata ukundi gutwi. Ni inka yacengeje umutwe mu kiraro. Ikiraro cyubakishije ibiti, gisakaje ibisigazwa by'ibyatsi. Ni ikiraro kiri hanze, hirya yaho hari inzu ndetse n'insina. Barimo kuyikata amatwi, kugira ngo izakure neza.

Abantu benshi bazanye amatungo bayaziritse ndetse n'umuntu urimo kuyitaho basa nkaho bari mu gikorwa rusange cyo gukingira cyangwa kwita ku matungo kugira ngo azabahe umusaruro uhagije cyangwa bayarinde indwara runaka.

Abantu bane bafashe inka mu busitani, harimo babiri bambaye ibisarubeti by'ubururu. Basa nkaho barimo kuyisuzuma cyangwa bayitaho kugirango izabahe umusaruro mwiza.

Umuntu ufashe inka iziritse ku ngiga y'igiti n'undi uri inyuma yayo, wambaye imyenda y'akazi ndetse n'agapfukamunwa, ameze nk'ugiye gutera intanga cyangwa kubyaza iyo nka. Bari ahantu hagati mu ishyamba riteyemo ibiti birebire.

Inkende iri kuri sima iruhande rw'ubusitani burimo ibyatsi ndetse n'ibiti bitandukanye. Ifashe mu ntoki urubuto nk'aho igiye kururya cyangwa irangije kururya.

Inkende iri mu ishyamba hejuru y'amababi y'ibiti bicucitse, irimo kureba imbere nkaho hari icyo irangariye ndetse aho hantu hari ikirere cy'ijimye.

Ingagi ebyiri zakuze zihagaze mu ishyamba ku biti birebire bifite amababi y'icyatsi, mu ishyamba ry'inzitane ririmo ibiti byinshi.

Inkende irimo kurira igiti mu ishyamba ry'inzitane, muri iryo shyamba, hari ibindi biti by'ubwoko butandukanye ndetse n'ibifite amababi.

Igisiga gihagaze ku ishami ry'igiti, igiti gifite amababi y'icyatsi ndetse ikirere cy'aho igisiga kiri gisa ubururu nk'aho imvura imaze cyangwa igiye kugwa, cyangwa bugiye gucya cyangwa bugiye kwira.

Inyamaswa ntoya ihagaze hejuru y'igiti mu ishyamba ririmo ibibabi n'ibiti bitandukanye; inyamaswa ikoreshwa mu bushakashatsi ndetse irya n'ibibabi by'ibiti bitandukanye.

Inyamaswa y'ibyoya byinshi irimo kugenda mu murima uteyemo ibi ibyatsi bitandukanye, imeze nk'inbonye umuntu cyangwa indi nyamaswa igiye kurya kuko irimo kwirukanka, inyuma yayo hari ishyamba ry'inzitane kuko hari ije.

Inyoni y'amabara ihagaze ku ishami ry'igiti, ifite ibibabi by'amabara atandukanye, itumbiriye imbere, irasa nk'iyaryohewe n'amahuhwezi iri gufata muri ibyo biti.

Inyamaswa iri gutambika ku ishami ry'igiti kiri mu ishyamba ririmo n'ibindi biti byinshi, byiganjemo ibifite amashami n'ibibabi bisa nk'icyatsi.

Inyoni ihagaze ku ishami ry'igiti mu ishyamba ririmo ibiti byinshi n'ibyatsi, ibyo biti bifite amababi asa n'icyatsi.

Umuryango ukoze mu ibati usize irangi ry'umutuku uri ku gipangu cyubakishije amatafari ahiye kiri iruhande rw'inzira nyabagendwa y'ibitaka. Hanze y'igipangu hari ibyatsi ndetse n'amabuye hirya hari ibiti ndetse n'andi mazu bigaragaza ko ari ahantu hatuwe n'abantu batandukanye.

Inyamaswa y'amabara y’umweru n’umukara, ikanuye amaso imbere y’ikibabi cy’icyatsi, mu ishyamba ry'inzitane ririmo ibiti by’ubwoko butandukanye.

Ingagi ihagaze ku ishami ry'igiti kiri mu ishyamba, igiti gifite ibibabi by'icyatsi ndetse n'ibindi byatukuye. Hari n'ibindi biti bitandukanye, itumbiriye imbere nk'aho hari umuntu cyangwa ibintu irimo kureba.

Inyoni y'amabara menshi, ihagaze hejuru y'ururabo rw'umuhondo, rw'igiti gifite amashami y'ubururu. Hari ikirere cyijimye nkaho bugiye kwira cyangwa butaracya neza.